Abantu bahurije hamwe ubona ko bazanye umusaruro w'ikawa. Hari umugabo ufite igitabo ari kwandikamo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote y'umukara. Hirya ye hari undi wambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku.

Utujerekani tugiye dutandukanye ndetse n'indobo zifite amabara atandukanye biri hamwe, indobo zifite amabara y'ubururu ndetse imifuniko y'icyatsi, utubuni dufite ibara ry'umweru hariho ibipapuro bigiye bisa umuhondo ndetse n'ibisa icyatsi.

Abagabo babiri bari guhinga mu gishanga, umwe yambaye isengeri y'umweru, ingofero ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umutuku, hirya ye hari undi mugabo umanitse isuka, arimo guhinga.

Abantu babona ko barimo baratera ibiti, hari umuntu wambaye agapira k'icyatsi, ipantaro y'umukara amasogisi y'umukara, iruhande rwabo hari umwana ubona ko arimo arabazanira, igiti kiri mu gihoho, wambaye agapira k'umuhondo.

Umugore ufite igiti cyo gutera mu ntoki wambaye agapira k'icyatsi inyuma ye hari undi wambaye agapira k'icyatsi n'ingofero y'umukara hirya hari umuntu ufite agacupa k'amazi ndetse yambaye umupira w'umuhondo n'agapantaro k'umukara.

Abantu ubona ko bari mu kayira karimo ibyatsi byinshi, harimo umugabo uri gusunika igare hariho inkwi ndetse aziritseho n'gitiyo. Umugabo uri inyuma yambaye ipantaro y'umukara.

Ibikarito birunze hamwe bigiye bitandukanye, hibumbiyemo karoti, ibitunguru, amaronji ndetse n'imboga z'amashu.

Inka iri kurisha mu ishyamba.

Umugabo wambaye ishati ubona ko ariya kake, ingofero ya kake, afite indobo ifite ibara ry'umukara ndetse arimo arasuka amazi ubona ko arimo aruhira imboto.

Umugabo wambaye bote zifite ibara ry'umweru ndetse n'akagofero k'umweru, hari abandi bagabo babiri bambaye amasurubeti y'ubururu ndetse n'undi mugore wambaye itabuririya ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari inka ubona ko zitegereje ko bazikingira.

Icyumba babona ko bakoreramo umurimo wo kubaga, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro yumukara ndetse na bote z'umukara. Imbere ye hari inyama bategura gukata.